Ahantu bahinga ingemwe zigiye zitandukanye, haba hatwikiye kugira ngo izuba cyangwa imvura nyinshi nibigwa bitaza kuzica, kandi ziba zikikijwe n'utuntu tw'udushashi kugira ngo ubutaka zihinzemo budatemba,

Amashu iyo akiri mato baba bari kuyitaho cyane, bari kuyatera umuti, kandi ishu iyo rimaze gukura bakariteka rigira imboga nziza kandi ziryoshye iyo uri kuzirisha umuceri biba aribyiza cyane.

Abahinzi kugira ngo bazabone umusaruro ushimishije, baba bafite icyuma gitera umuti kugira ngo udukoko tutazangiriza iyo myaka bahinze, iyo bamaze gutera uwo muti biba byiza cyane kubera ko birinda indwara, umuhinzi akabona umusaruro ufatika.

Abahinzi kugira ngo babone umusaruro baba bagomba gutera umuti imyaka yabo kugira ngo itaribwa n'udusimba cyangwa ngo yicwe n'ibindi bintu ibyo ari byo byose bigiye bitandukanye urugero nk'izuba cyangwa imvura nyinshi nayo yica imyaka. Niyo mpamvu bakunda gutera imiti kugira ngo bazabone umusaruro ufatika.

Abaporisi n'abasirikare, bakunda igihugu cyacu, kuko bakunda gufasha abaturage, bakabona ibintu bigaragara neza cyane, baba bari kubafasha mu buryo bugiye butandukanye, kugira ngo abaturage babone, ibyo kurya bya buri munsi.

Abahinzi b'inyanya baba bazi kuzitaho, bakunda kuzitera umuti kugira ngo udusimba tutazica. Gusa baba bafite imbaraga kuko baba bazitayeho cyane, kugira ngo ziticwa n'utwo dusimba.

Abahinzi iyo bari gutera ibirayi baba bambaye ibikoresho byabugenewe. Cyane cyane baba bambaye bote kugira ngo badakandagira mu kintu kikabangiriza ibirenge.

Ifumbire ni nziza cyane ituma imyaka yacu imera neza, ikaduha umusaruro, abahinzi benshi niyo bakoresha kubera ko bituma babona inyungu nyinshi mu mihingire yabo.

Amafi arinda indwara, atuma umuntu agira ubuzima bwiza, kandi umuntu wariye amafi aba agaragara neza cyane, cyane cyane ku maso uruhu rwe ruba ruri kunyerera rumeze neza cyane ku buryo uwariye amafi aba ameze neza cyane.

Insambaza zijyana n'ubugari, zigira isosi imeze neza cyane, ku buryo iyo wariye ubugari ukaburisha isambaza wumva ari byo wakomeza kwirira, kubera ukuntu biba biryoshe, abana bariye isambaza n'ubugari baba bafite ubuzima bwiza.

Igihe cy'urubura umusaruro w'amafi uba mukeya, kubera ko amafi aba yapfuye kubera ko amazi aba yabaye urubura, amafi noneho akabura uko abaho agapfa.

Isambaza ziraryoha cyane zigira isosi nziza cyane, noneho ziryoha iyo uri kuzirisha ubugari ,kandi n'umuceri birajyana, akenshi usanga isambaza nta kintu na kimwe bitari kujyana mu bintu byose byo kurya.

Isambaza ziraryohaga cyane, cyane cyane iyo uri kuzirisha ubugari birajyana cyane, abantu barabikunda kandi isambaza zirinda indwara, ku buryo umuntu wariye isambaza aba afite ubuzima bwiza cyane.

Ifi igira isosi iryoshye cyane, cyane cyane isosi y'ifi iyo uri kuyirisha ubugari biba bijyanye cyane, ku buryo umuntu uri kubirisha aba yaryohewe cyane.

ifi iraryoha cyane irinda indwara, umuntu wariye ifi aba agaragara neza cyane ku buryo buri muntu wese aba yifuza kurya ifi kubera ukuntu iryoha.

Aka kabakure ni keza cyane. Karimo n'ibiryo byiza biryoshe. Uko bigaragara wagira ngo ni amashu arimo inyanya n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Ibiti bifitiye abaturage akamaro gakomeye cyane kubera ko u Rwanda rutegeka abaturage barwo niba utemye igiti ujye utera bibiri kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kugira ikirere kimeze neza kitangiritse.

Kapusine ni nziza cyane, kuko ivura umuntu iyo arwaye mu nda agahita akira, cyane cyane abana iyo barwaye inzoka, ukabavugutira kapusine bakayirya bahita bakira inzoka.

Amajeri iyo atari yera atangira kuzana uruyange, urwo ruyange iyo rwatangiye kuza ruba ruri kugaragaza ko amashaza agiye kuzana urunyogwe, amashaza birabujijwe kuyabagarira kuko iyo uyabagariye arapfa.

Urubingo ni ubwatsi bwiza cyane inka zikunda, inka yariye urubingo itanga umusaruro w'amata kandi bituma itanga n'ifumbire maze abahinzi bakabona ifumbire yo guhingisha ibirayi n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

urutoki iyo urwitayeho rugera insina nziza cyane, ku buryo izo nsina zizana ibitoki noneho umuntu ufite urutoki akabona umusaruro ufatika cyane akaba yakwiteza n'imbere

Amatunda ni meza cyane, kubera ko umwana wariye amatunda aba afite ubuzima bwiza. Kandi iyo n'abantu bakuru bariye amatunda baba bameze neza cyane, ku buryo amatunda abarinda indwara, kandi agatuma batekereza neza cyane.

Urubingo ni igihingwa cyiza cyane, amatungo aragikunda. Iyo ugihaye nk'inka urugero, inka igira umusaruro mwinshi cyane cyane ku mukamo uriyongera ndetse n'ifumbire na yo iriyongera. Ku buryo iyo uri umuhinzi uhinga imyaka yawe ikaguha umusaruro.

Ibirayi iyo bikiri ibitoto, biba bitegetswe guterwa umuti, kandi biba bitegetswe gukurikiranwa, ku buryo birinda udusimba utwo ari two twose twabyica, kugira ngo nibyera uzabone umusaruro ushimishije.

Igihingwa cy'insina ni igihingwa cyiza cyane kubera ko umuntu wahinze insina zimubyarira ibitoki. Kandi ibitoki biraryoha cyane. Iyo ubitetse ukabivanga n'ibishimbo ugashiramo ubunyobwa bitera imbaraga abantu benshi bakabikunda.

Igihingwa cy'bitoki ni cyiza cyane kubera ko gifitiye abaturage akamaro gakomeye cyane, ni igihingwa abantu bakunda guteka cyane cyane igitoki kiryoha iyo bakivanzemo na dodo, abantu baragikunda cyane kubera ko kirinda indwara.

Ibishyimbo iyo bitari byera neza bibaga bifite uruyange rugaragara neza cyane, kandi iyo usoromye ibibabi by'ibishyimbo, ukabitekana n'ibirayi biraryoha cyane, bakunda kubyita umushogoro.

Ishyamba rifitiye abaturage akamaro kanini cyane, kubera ko ishyamba riduha inkwi riduha imbaho, ndetse riduha n'umuyaga mwiza, bigatuma abantu bahumeka umwuka mwiza cyane.

Ibigori ni byiza cyane, bidufitiye akamaro kanini cyane, kubera ko ibigori ni ikiribwa gitera imbaraga, kandi kiraryoha cyane, kibamo n'ifu y'igikoma maze umuntu akabaho neza cyane.

Ahantu hahinze ibiti haba hagaragara neza cyane, cyane cane ibyo biti iyo bifite uturabo hejuru biba bisa neza cyane. Kandi ibibonobono biba byiza cyane, abantu babikoramo inkingi zigafata ibitoki zigatuma bitagwa.

Ikidodoki kiraryoha cyane, kirinda indwara kivamo n'imboga nziza cyane, iyo ufashe ikidodoki ukagitekana n'ibirayi n'ibishyimbo biraryoha, ku buryo umuntu wabiriye, aba ameze neza cyane.

Igishyimbo iyo kikiri gitoya kiba gifite amababi abiri. Ariko iyo kimaze gukura kizana amababi menshi. Ibishyimbo ni byiza cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko ibishyimbo birinda indwara.

Urugo rukikijwe n'ikidodoki ,ntabwo rubura imboga zo kurya . Kuko iyo ukeneye imboga uhita uca kuri kuri icyo kidodoki gikikije urugo. Ikidodoki kiraryohahaga cyane . Kuko iyo ushaka kutarya ikidodoki ,urya n'ibibabi by'ikidodoki nabyo bigakora imboga nziza cyane.

Ibihaza ni byiza cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi, umuntu iyo yariye igihaza aba afite mu nda horoshye, ikindi kandi iyo wariye amashaza nayo ukayavanga n'ibirayi bigutera imbaraga bigatuma ugira kuraje.

Butike ni yo duhahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye: Habamo ifu y'igikoma, bacuruza umuceri ndetse bagira n'amavuta yo kurya kandi bacuruza n'amavuta yo kwisiga.

Ibishyimbo iyo bigeze igihe cyo kugira umushogoro, biba bigeze ahantu heza cyane, kuko umushogoro iyo uwufashe ukawutekana n'ibirayi ugashyiramo n'ibishyimbo biba biryoshe cyane, abantu b'ababyeyi bakuze barabikunda cyane.

I|birayi biraryoha cyane iyo ubitetse ukabivanga n'ibishyimbo biba biryoshe cyane. Kandi bitera imbaraga iyo umuntu yabiriye aba afite imbaraga akazi ke ari gukora agakorana ingufu nyinshi cyane. Kandi iyo ushaka kurya ibirayi hari n'ubwo ubitekaga mu mavuta ntabwo biba ari byiza cyane.

Amapera araryoha cyane, cyane cyane abana barayakunda, umuntu wariye amapera amurinda indwara atuma agira ubuzima bwiza kandi akura neza cyane.

Inyanya ni nziza cyane zirinda indwara kandi zigira kandi isosi nziza canye. Imboga nyinshi duteka dukenera gushiramo inyanya kuko zitukuza ibiryo, ibyo aribyo byose.

Amatunda araryoha cyane, cyane cyane abana barayakunda kubera ko umwana wariye amatunda, agira ubuzima bwiza cyane, ku buryo iyo uri kumureba uba ubona ameze neza cyane.

Igitoki kiraryoha cyane, cyane cyane iyo ugifashe ukagiteka, ugashyiramo ubunyobwa, warangiza ugashyiramo n'inyanya ukakirisha umuceri, biba biryoshye cyane ku buryo abantu benshi babikunda.

Ibigori ni byiza cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi. Kubera ko ibigori iyo ushaka ubirya bitumye nabyo biraryohaha ndetse n'iyo ubishaka ateka igikoma ukazabikoramo kawunga cyangwa ukazabivanamo ifu y'igikoma.

Ibirayi bya Kinigi abaturage barabikunda cyane, kuko ibyo birayi biba bigaragara neza cyane, ntanubwo bikunda kubora ni cyo abaturage babikundira cyane cyane.

Imboga ziraryoha cyane, umwana wariye imboga agaragara neza cyane, kandi umwana wariye imboga zimurinda indwara, zimurinda kurwaragurika, agakura neza mu mikurire ye ya buri munsi.

Avoka ni nziza cyane . Zigira akamaro kanini cyane . abantu bariye avoka baba bafite ubuzima bwiza cyane . Kandi avoka, iyo uri kuyirisha ibijumba ,biba bijyanye neza cyane, biraryoha.

Ibirayi biraryoha cyane, iyo wabiriye bigutera imbaraga noneho bitetsemo agafiriti ukabirisha ibishimbo birajyana cyane, ku buryo uwabiriya yumva biryoshye.

Ahantu bahinga inyanya haba hameze neza cyane kuko haba hubatse, ku buryo izuba cyangwa imvura nyinshi itagwa ngo izice kandi iyo uzitayeho zikura neza cyane zikaguha umusaruro.

Voka ziraryoha cyane, cyane cyane voka z'imbangurire, iyo uzijyanye ku isoko kubera ukuntu ziryoha abantu bahita bazigura, noneho ugahita ubona umusaruro ufatika ku buryo bworoshye.

Ibijumba biraryoha cyane kandi biteraga imbaraga, umuntu wariye ibijumba iyo agiye gukora akazi gasaba imbaraga agakora neza cyane, kubera ko aba yariye ibintu bimutera imbaraga.

Abahinzi iyo bari guhinga imyaka yabo baba bayitayeho cyane kugira ngo bayifatirane hakiri kare idapfa, abagabo bafite amasuka bafite n'amabase yo gutwariramo ifumbire.

Umuhinzi iyo yitaye ku nyanya ze agiraga umusaruro ufatika, kuko n'iyo inyanya azijyanye ku isoko abona umusaruro mwinshi, ku buryo abona amafaranga azifuyemo.

Imbata ni itungo rigufi ryororoka cyane, umuntu woroye imbata iyo afite amazi ku ruhande kubera ko zikunda kuyogeramo, atuma zikura ku buryo bushimishije, noneho na zo zikamuha umusaruro byoroshye.

Imyumbati ni igihingwa gitera imbaraga, kandi iyo wafashe imyumbati ukayivanga n'ibishyimbo biraryoha cyane, bitera imbaraga ku muntu wayiriye iyo agiye gukora akazi kamusaba imbaraga, aba afite imbaraga nyinshi cyane.

Amatunda iyo atarera aba asa n'icyatsi. Ariko iyo wayahinze neza cyane, aba ari kwerera munsi, ku buryo iyo uri kuyareba ubona niyera azatanga umusaruro ufatika. Ku buryo umucuruzi cyangwa umuhinzi wahinze amatunda, aba ategereje kuyajyana ku isoko mu gihe gito.

Akarima k'igikoni kaba karimo imboga zigiye zitandukanye, kandi izo mboga ziba zigomba kwitabwaho buri munsi, kugira ngo zizatange umusaruro ushimishije kandi ugomba no kuziha ifumbire kugira ngo zikure zibyibushye zimeze neza cyane kugira ngo zizabone uko...

Amateke ni meza cyane iyo watetse amateke, ukagavanga n'ibishimbo birimo amarongorwa, biraryoha cyane, kandi amateke atera n'imbaraga ku muntu wayariye, aba afite imbaraga nyinshi cyane.

Ibirayi biraryoha cyane, abantu benshi barabikunda, kuko iyo wafashe ibirayi ukabitekana n'ibishyimbo, biba biryoshye, bitera n'imbaraga. Noneho iyo wafashe ibirayi, ukabitekamo ifiriti biraryoha cyane.

Ibihaza biraryoha cyane. cyane cyane iyo ufashe ibihaza ukabiteka ukabivanga n'ibishimbo wumva bimeze neza cyane. Kandi si ibyo gusa, ibihaza birinda n'indwara, bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Inkoko iyo zahuriye hamwe ziri gutoragura, biba bishimishije cyane. Kandi inkoko iyo zabonye ibyo gutoragura bihagije, zitanga umusaruro ufatika nuko nyirazo akabona inyungu ishimishije.

Ibigori ni byiza cyane ku buzima bwa buri mutura Rwanda wese, kubera ko ibigori bivamo ibintu byinshi cyane, ibigori iyo ari bibisi barabiteka cyangwa bakabyotsa, kandi n'iyo bimaze kuma bakuramo ibigori byumye bikavamo kawunga, cyangwa bakabeteshamo ifu y'igikoma.

Ibigori biraryoha cyane kubera ko bivamo igikoma. Abana banyweye igikoma baba bafite ubuzima bwiza, kandi igikoma gituma umwana akura neza cyane ku buryo bushimishije.

Amapera ari mu bwoko bw'imbuto kandi ni meza cyane, umuntu wariye amatera amurinda indwara, atuma agira ubuzima bwiza, abana barayakunda ku buryo umwana wariye amapera aba afite ibyishimo.

Icyayi ni cyiza cyane kuko gifitiye igihugu cyacu akamaro, kuko abantu bahinga icyayi baba bafite umusaruro ufatika cyane, ku buryo iyo umeze neza cyane warahinze icyayi cyawe uba ufite amafaranga afatika.

Ibirayi bisa n'umweru biraryoha cyane ,kuko n'iyo uri kubireba ku maso uba ubona biri kugaragara neza cyane kuko biba biteye apeti ,no kubiteka biroroha ntabwo iyo uri kubihata bitinda, n'iyo ushaka kubirya utabihase uhita ubyoza ugahita ubiteka.

Inyanya iyo zitari zera ziba zisa n,icyatsi. Gusa inyanya iyo wazitayeho neza cyane ziguha umusaruro ufatika , kuko uba wazitayeho noneho ukabona umusaruro mwiza cyane.

Amateke araryoha cyane, cyane cyane iyo atetse ukayavanga n'ibishyimbo, uba uriye neza kandi iyo wariye amateke, uba ufite ingufu, akazi kose ugiye gukora kari kugusaba ingufu, ugakora neza cyane.

Pavuro ziraryohag cyane noneho umuhinzi wahinze pavuro iyo zeze ajya mu murima we kuzisarura kugira ngo azijyane ku isoko abone amafaranga akayaguramo ibindi bintu bigiye bitandukanye akeneye.

Abasirikare b'Igihugu cyacu bafitiye abaturage akamaro gakomeye cyane, kuko usibye kuba baducungira umutekano, usanga baza kwifatanya n'abaturage mu guhinga, kugira ngo bakomeze gukora ibyateza abaturage b'Igihugu cyacu akamaro.

Imbuto zigiye zitandukanye ziba nziza cyane ku buzima bw'abantu bwa buri munsi cyane cyane ziba nziza iyo zigiye zitandukanye ukazirya zimwe zitandukanye. Ibinyomoro biba bisa n'umutuku iyo byeze hamwe n'amaronji iyo asa umuhondo aba yeze.

Igihaza kiraryoha cyane, kirinda indwara, kandi iyo wagitetse ukakivangamo n'ibirayi n'ibishyimbo biba biryoshye ibyo biryo biteraga imbarag,a bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'ihene buba bwiza cyane, kubera ukuntu ihene zitanga umusaruro ufatika, zitanga n'ifumbire abahinzi bakabona umusaruro ku mihingire yabo ya buri munsi bakawubona umusaruro.

Inasi ni igihingwa abaturage bakunda, umuntu wariye inanasi aba afite ubuzima bwiza cyane, kuko inanasi zirinda indwara, n'umuntu wahinze inanda azijyana ku isoko, zikamuha amafaranga.

Amatunda araryoha cyane. Abana barayakunda, ndetse n'abantu bakuru barayakunda kubera ko amatunda arinda indwara, umuntu wariye amatunda mu mikurire ye akoraga neza cyane, afite ubuzima buzira umuze.

Inkoko zigira umusaruro ushimishije cyane cyane iyo inkoko uzitayeho, ubona umusaruro mwiza cyane, kandi zigufasha gukemura ibibazo byose uba ufite kubera ko uba warazitayeho neza cyane.

Voka zimbangurire ziraryoha cyane, usanga zitandukanye n'izindi mpaka abaturage bazikunda cyane, zigira n'umusaruro ufatika iyo ugiye kugura voka ugasanga ni imbangurire nizo uhita ugura kubera ukuntu ziryoha.

Ibirayi iyo wabyitayeho cyane ukabiha ifumbire ihagije, ndetse ukagira n'umukozi wo kubyitaho buri munsi, bigira umusaruro uhagije cyane ku buryo ubona amafaranga iyo ugiye kubigurisha.

Umwembe uraryoha cyane, abana barawukunda n'abantu bakuru barawukunda, kandi umwembe urinda indwara, utuma umuntu agira ubuzima bwiza, agatekereza neza cyane.

Ibigori biraryoha cyane, cyane cyane iyo byokeje, kandi iyo udashaka kurya ibigori byokeje wanabiteka nabyo biraryoha, ibigori ushobora no kubireka bikazavamo igikoma, iyo bimaze kumpa urabibetesha ukabivanga n'ibindi bintu bikavamo igikoma, bitera imbaraga, bivamo n'akawunga karyoshye cyane.

Ahantu bacururiza imbuto zigiye zitandukanye, abaturage barahakunda kubera ko imbuto ni nziza cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi, mu mibiri yacu yo ihora ikeneye imbuto.

Imyembe ni igiti abantu benshi bakunda, kubera ko umwembe iyo wawuriye uba ufite ubuzima bwiza cyane, utuma ugira uruhu rumeze neza cyane, kandi umwembe uraryoha n'abana barawukunda.

Imyumbati iraryoha cyane, iyo bayitekanye n'ibishyimbo itera imbaraga, ku buryo abantu bakunda gukora imirimo zivunanye, bakunda kwirira imyumbati, kuko baba barakenera imbaraga nyinshi cyane.

Ibigori iyo bikiri hasi biba bikenewe umuntu ubyitaho, kugira ngo bizakure neza, bizahe umuhinzi umusaruro ufatika. Iyo witaye ku bigori byawe byera neza cyane, kandi bikaguha umusaruro mwiza ushimishije.

Intoryi ziraryoha cyane, iyo uzitetsemo isosi, ugashiramo ubunyobwa n'inyanya, warangiza ukazirisha kawunga cyangwa umuceri, biba bijyanye neza, cyane ku buryo iyo uri kubirya wumva biryoshye.

Avoka ni cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi, kubera avoka irinda indwara, umuntu wariye avoka ntabwo akunda kurwaragurika, iyo uri kurya ibiryo ukabishyiraho avoka bigutera apeti bigatuma urya ibiryo ukumva waryohewe.

Ibirayi biraryoha cyane. Iyo ubitetse ukabivanga n'ibishyimbo na byo birajyana, kandi hari n'igihe ubifata ukabitekamo ifiriti, abana barayikunda cyane. Iyo bariye ifiriti bakumva bahora barayirya kubera ukuntu iryohaga

Isoko bacururizamo imbuto riba risa neza cyane kubera ko wasanga harimo intoryi, inyanya ndetse n'imboga kimwe n'urusenda iyo ugiye guteka isosi, ukabigura byose ukavangamo inyanya n'intoryi n'imboga ukabirisha umuceri bibakaba biryoshye cyane.

Igisheke ni cyiza cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko cyongera isukari mu mubiri, kandi igisheke kivamo n'isukari dukoreshaga turi guteka igikoma cyangwa turi kuyishyira mu cyayi. Umuntu wanyweye isukari yo mu gisheke aba ari kumva iryoshye cyane.

Amashu agira imboga ziryoshye cyane noneho iyo amashu uri kuyarisha ibijumba biba biri kujyana, kandi amashu n'iyo ari kuyarisha umuceri nabyo birajyana, amashu iyo wayahinze mu murima wawe, ukayitaho, akura neza cyane akaguha umusaruro.

Ibishyimbo ni byiza cyane biraryoha, abantu benshi barabikunda, kandi birinda n'indwara, umuntu wariye ibishyimbo aba afite ubuzima bwiza cyane buzira umuze, kandi umuntu wariye ibishyimbo ntabwo akunda kurwaragurika uko yiboneye.

Ubutaka bw'umukara bukunda kubamo ibishyimbo bimeze neza cyane, kandi ibishyimbo iyo wabishingirije imishingirizo myiza cyane miremire bituma ibishyimbo byawe bikura neza, maze ubundi umuntu akabona umusaruro ushimishije.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, butuma abantu babona ibyo kurya, kandi ibisigaye bakabicuruza, bakabona amafaranga yo kwifashisha ibindi bintu bigiye bitandukanye, nko kugura ifumbire ibindi, no kwishyura abakozi bo guhinga.

Abamama iyo bari klugosora imyaka ku ntara baba bambaye ingofero mu mitwe kugira ngo ivumbi rivuye muri iyo myaka bari kugosora itabajya mu musatsi zikawangiriza ugasa nabi.

urunyogwe ruraryoha cyane. Cyane cyane iyo warufashe ukaruvanga n'ibirayi, kumwe n'igitoki, bikunda kujyana. Umuntu wariye amashaza aba afite ubuzima bwiza cyane kuko arinda indwara.

Umuceri bagukunda kuguhinga mu bishanga kugira ngo uzakure neza, kubera ko uba ukeneye amazi menshi. Umuceri iyo weze uraryoha cyane, utera imbaraga, abaturage baragukunda kubera ko ubafitiye runini.

Soya ziraryoha cyane, kubera ko iyo soya utazitetsemo igikoma, soya ushobora no kuzikoramo isosi zikaba zasimbura ubunyobwa, isosi itetswe na soya iba imeze neza cyane, soya zirinda indwara, kandi umuntu wariye so aba afite ubuzima bwiza cyane.

Ibishyimbo biraryoha cyane birinda indwara, kandi amasaka n'ibigori bivamo igikoma cy'abana bigatuma abana bakura neza cyane, ku buryo umwana wanyweye igikoma aba ameze neza cyane.

Umuhinzi iyo yitaye ku gihingwa cye cya tungurusumu abona umusaruro mwiza agasagurira n'amasoko kugira ngo abone amafaranga akagura ibindi bintu bigiye bitandukanye byatunga ubuzima bwe bwa buri munsi.

Ibigori iyo byatangiye kwera. Biba bisa neza cyane. Kuko uba uri kubona bimeze neza cyane. Ku buryo biba biteye apeti ,bikiri mu murima.

Ibishyimbo bigira akamaro kagiye gatandukanye, akenshi usanga birinda indwara, zigiye zitandukanye nko kurwara bwaki, abaturage barabikunda cyane.

Abagore benshi baba ari abahanga mu kugosoza intara, cyane cyane iyo bari kugosora amasaka, ubona babizi ku buryo umugore uri kugosora amasaka aba yiteze akantu mu mutwe, kugira ngo ivumbi riri kuva mu masaka ritamugeraho.

Ingano ni nziza cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi, kuko ingano zigira imitsima myiza cyane, iryoshye kandi igira igikoma kimeze neza cyane, ku buryo umuntu wanyweye igikoma cy'ingano aba afite ubuzima buzira umuze.

Ubunyobwa ni bwiza cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko umuntu wariye ubunyobwa bumurinda indwara, kandi bugatuma umuntu akura neza cyane. Ubunyobwa bukora n'isosi nziza cyane, iyo washatse kubuteka wabushira mu ubukari birajyana.

Imiteja iraryoha cyane, abantu bahinga imiteja bakunda kuyijyana ku isoko kugira ngo babone ibindi bintu bakuramo bisimbura imiteja, bakeneye mu buzima bwabo, urugero bakaguramo nk'ibirayi.

Ingano zigira akamaro kanini cyane, kubera ko ingano zivamo umutsima, ndetse hari nizo bavanamo igikoma, kandi igikoma ni cyiza cyane, gituma abantu bagira ubuzima bwiza cyane.

Ibishyimbo ni byiza cyane, kuko birinda indwara, kandi ibishyimbo iyo wabitekanye n'ibirayi biba biryoshe cyane , kuburyo umuntu wariye ibishyimbo nta ndwara n'imwe ipfa kumwegera.

Ubunyobwa buraryoha cyane burinda indwara zigiye zitandukanye, urugero burinda indwara, kandi bugira n'isosi iryoshye cyane, noneho niyo uri kuburya bwonyine bukaranze buba bumeze neza cyane.

kawunga ni nziza cyane kubera ko iraryoha, kandi kawunga iyo wayitetse ukayikaranga iba iryoshe cyane, ku buryo umuntu wariye kawunga aba afite imbaraga kandi akazi kose kamusaba imbaraga aragakora neza cyane.

Amasaka ni meza cyane arinda indwara, avamo igikoma cy'abana bigatuma abana bagira ubuzima bwiza cyane, kandi bigatuma abana bakura neza, ku buryo umwana wanyweye igikoma aba afite ubuzima bwiza, kandi amasaka avagamo n'umusururu w'ukunywa.

Amajeri iyo akiri mu murima aba afite uturabo twiza cyane, tuba tugaragara neza cyane. Kandi nayo aba gateye ku buryo ashishe n'iyo yeze ub...

Amagi agira intungamubiri ku bana ndetse no ku bantu bakuru, umwana wariye amagi akura neza, agira ubuzima bwiza kandi akagira n'ubwenge, akabasha no gukura mu gihagararo neza.

Ingurube ni nziza cyane, zororoka vuba, kandi zigira n'umusaruro ushimishije. Umuntu woroye ingurube iyo azitayeho, abona ifumbire, akabona n'amafaranga ku buryo gutera imbere kwe biba bishimishije.

Ingurube iyo bazitayeho neza cyane zigira umusaruro ushimishije, ku buryo zikura vuba vuba. Noneho mu minsi mike nyiri izo ngurube agahita abona umusaruro ushimishije.

Inka zifite amahembe manini ziba ari nziza cyane, kuko zikurura ba mukerarugendo zikabashimisha, bagasiga amadovize. Ziba ziteye neza ku buryo bubereye ijisho.

Abaveterineri iyo bitaye ku nyamaswa zirakura zikaba neza cyane zigatanga umusaruro. Cyane cyane iyo bitaye ku ngurube bari kuzitera inshinge kandi bakazisuzuma n'indwara icyo gihe zitanga umusaruro mwiza umworozi akaba yakwiteza imbere.

Aborozi b'ihene iyo boroye ihene bakazitaho bagira umusaruro ushimishije ku buryo iyo bagiye ku isoko babona amafaranga. Noneho amafaranga bakaba yabakemurira ibibazo bigiye bitandukanye biri mu miryango yabo.

Ihene ni itungo rigufi ariko rigira umusaruro uhagije cyane ku muntu wayitayeho, ihene igira n'ifumbire nziza cyane, igatuma abantu babona umusaruro mu mihingire yabo.

Ubworozi bw'amatungo ni bwiza cyane. Cyane cyane iyo woroye inka bigufasha kubona umusaruro ufatika, kuko inka zikamwa amata menshi. Amata kandi abantu barayakunda, ndetse inka zituma abantu babona ifumbire bagahinga imyaka yabo igakura neza cyane.

Abantu bavura amatungo bafitiye abaturage akamaro gakomeye cyane, kubera ko iyo ndwara yafashe itungo ryawe urabahamagara bakaza bakarivura, itungo ryawe rigasubirana ubuzima bwiza.

Abaveterineri bafitiye igihugu cyacu akamaro kubera ko bita ku matungo agiye atandukanyega. Bakingira imbwa, bakazisuzuma bakareba niba nta kibazo zifite kugira ngo ubuzima bwazo bukomeze kugenda neza cyane.

nka iyo irwaye veterineri araza akayivura igakira, kandi inka iyo amaze kuyitera umuti igera aho ikazaba nzima, ikazaguha umusaruro ufatika.

Ubworozi bw'ingurube iyo babwitayeho bwororoka vuba cyane bugatanga umusaruro ufatika , kandi ni yo uri kubworora buguha ifumbire, ukajya guhinga imyaka yawe igakura neza cyane.

Ihene ni itungo rigufi ryo mu rugo kandi umuntu woroye ihene akazitaho zimuha umusaruro ushimishije; kuko ihene buri mwaka iba iri kubyaramo kabiri kandi ihene itanga n'ifumbire nziza cyane.

Amagi ni meza cyane ku buzima bw'umuntu, kandi umwana wariye amagi akura neza cyane mu gihagararo, ndetse bituma agira n'ubwenge. Amagi si ibyo gusa n'iyo uyatetsemo umureti uraryoha, ku buryo abantu benshi usanga bakunda umureti.

Inka zifite ibara ry'umukara, n'umweru abaturage barazikunda cyane, kuko aborozi bavuga ko arizo ziba zigaragara neza cyane kurusha izindi nka.

Ingurube iyo yarwaye ugahamagara veterineri araza akayivura kugira ngo ikomeze igire ubuzima bwiza. Kandi ingurube yitaweho iba ifite ibiro byinshi ku buryo iyo uyizanye ku isoko ubona amafaranga menshi afatika.

Inka ni itungo ryiza cyane kandi rimeze neza cyane, umuntu woroye inka aba abona amata, ndetse inka iyo wayitayeho cyane iguha n'ifumbire nziza cyane, iyo wayihingishije ibirayi bikura neza cane.

Abaveterineri bafitiye abaturage bacu akamaro kanini cyane, kubera ko bafasha amatungo yacu kubaho ameze neza cyane. Iyo itungo ryawe ryarwaye uhamagara veterineri araza akarivura rigakira neza cyane.

Ingurube iyo wayitayeho iba ikura neza cyane, kuko iba ari nini ku buryo iyo ugiye kuyigurisha iguha umusaruro ufatika, cyangwa n'iyo uyoroye ukayitaho, ikubyarira ibibwana byinshi cyane.

Utunyoni tw'umweru tuba tugaragara neza cyane ku buryo iyo dusa umweru n'umukara tuba tubereye ijisho ry'umuntu uri tureba, abantu benshi baradukunda cyane.

Isha n'ihene y'ishyamba inyamaswa nyinshi zirayikunda kubera ko zayirira ubwatsi, gusa ndetse n'iyo intare iyibonye irayirukankana ishaka kuyirya gusa isha iba izi kwiruka cyane.

Imbata ni itungo rigufi abantu bakunda kororera mu mago yabo kandi imbata iyo uzoroye uba utegetswe kuzubakira aho zizajya zirongera kubera ko imbata zikunda amazi cyane ziba zizi koga kandi ziba ziri koga mu buryo bushimishije iyo uri kuzireba ubona ari byiza.

Ikiyongoyongo gikunda kuba ahantu mu cyatsi kiri gushaka ibyo kirya, kandi ikyongoyongo kiba gifite umunwa usongoye ku buryo iyo uri kukireba uba uri kubona gishimishije, wakomeza kukirebera.

Inzoka z'inshira zisa n'umukara ziraryana cyane, kuko iyo urebye nabi zikagutera ubumara ugatinda kujya kwa muganga uhita upfa kuko zigira ubumara bukaze cyane.

Imisambi zikunda kuba impande y'amazi zitegereje kuroba amafi kugira ngo ziyarye, kuko akenshi usanga zitunzwe n'amafi yo mu mazi kugira ngo zibone uko zibaho.

Inyoni zifite amabara menshi zigaragarira neza amaso, umuntu iyo ari kuzireba yumva aryohewe cyane, kandi zikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize, igihugu cyacu tukagiteza imbere.

Inuma y'umukara iba isa neza cyane iyo uri kuyireba uba wumva uryohewe n'ukuntu isa, uba uri kumva utayikuraho amaso kubera ukuntu iba igaragara neza cyane.

Ingagi ni nziza cyane kuko zifitiye abaturage bo mu karere ka musanze akamaro, kuko ba mukerarugendo baza kuzisura bakadusigira amadovize agateza igihugu cyacu imbere muri rusange.

Utunyoni twa mateneteni iyo twahuriye hamwe tuba dufatanye ku buryo tubadushimishije. Dukunda kugira imirizo miremire cyane cyane ku buryo biba bimeze nk'aho bisa neza cyane.

Inuma zigiraga amabara agiye atandukanye, iyo uri kuzireba uba wumva wakomeza kuzirebera, kubera ukuntu ziryoheye ijisho kuzireba . Ziri mu bwoko bw'inyoni ariko zo zirutaho inyoni, kandi inuma zo usanga akenshi ahantu mu mago banazorora.

Inyoni zigira amoko menshi cyane, ariko hariho ubwoko bw'inyoni bwitwa umusambi. Umusambi uba usa neza cyane. Ugira amabara abereye ijisho. Umuntu uri kureba umusambi aba ari kumva aryohewe cyane kuko biba bimeze nk'aho yishimiye ukuntu uteye.

Imbeba ni agasimba gakunda kwibera mu mazu y'abantu, cyane cyane imbeba ikunda kuba mu nzu zirimo ibyo kurya kubera ko ziba zitunzwe n'ibiryo zikuye mu mazu y'abaturage.

Inyoni ni nziza cyane, zigira amabara menshi agiye atandukanye, kandi abana barazikunda, cyane cyane iyo ziri kujwigira zigira amajwi meza cyane, ba mukerarugendo baza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bakatuzanira amadovize, baje kureba inyoni.